Inzu icururizwamo imiti y'amatungo. Harimo umuntu umwe w'igitsina gabo wicaye. Imbere ye hari mudasobwa ebyiri, ndetse n'ameza. Kandi inyuma ye hari imiti ipanzwe mu tubati.

Inyubako imanitsweho ibyapa bigaragaza ibikorwa bibera muri iyo nyubako, harimo inzu y'ubworozi icururizwamo ibikoresho by'ubuhinzi ndetse hakaba hari n'inzu icururizwamo amarangi.

Abantu babiri harimo umugabo ndetse n'umugore, bafite umufuka n'igipaniye bashyizemo itaka ry'umukara bari kuyora ahantu bahinze, ahantu bahinze bagiye kuhahinga ibihingwa bitandukanye nk'ibirayi cyangwa se ibijumba, hirya yaho kandi hari ishyamba ririmo ibiti by'inturusu ndetse n'ibiti by'ibiko.

Ububiko burimo amafu atandukanye akomoka ku bihingwa arimo ibigori, soya, imyumbati, ibijumba ndetse n'ibirayi, ububiko kandi bumeze neza. Ibintu bitondetse neza, harimo imifuka irimo amabara agiye atandu.

Inyubako yanditswemo ko ibintu bigaragara ko bikorerwamo. Ibyo bikorwa bigaragara ko bacuruza imbuto zo guhinga ndetse n'inyongeramusaruro. Mu ndorerwamo iri kuri iyo nzu, hari inzu irimo amabara y'ubururu, umuhondo n'icyatsi. Bigaragara ko iyi nzu iri imbere y'iyi nyubako.

Inzu itaye amarangi y'umukara n'umweru, irimo imiti igiye itandukanye bakoresha bari kwica udukoko twangiza imyaka nk'imyumbati, ibigori, amasaka ndetse n'ibindi bihingwa, iyi nzu kandi irimo amatara.

Inzu icururizwamo imiti y'amatungo, harimo umugabo umwe wicaye, imbere ye hari ameza ndetse inyuma ye hari imiti igiye itandukanye iriho amashusho y'inka.

Umubyeyi w'umuhinzi wambaye igitenge cy'umutuku, ikoti ry'ubururu ndetse n'ingofero y'amabara y'umukara n'umweru, ahetse icyuma ari mu murima w'inyanya ndetse n'intoryi, aho ari gutera umuti ibi bihingwa kugira ngo yice udusimba twabyangiza.

Umubyeyi uri guseka cyane wambaye igitenge ndetse yiteze igitambaro mu mutwe. Ari mu murima uhinzemo ibigori ndetse ari gutera igiti cya voka, ik'imyembe ndetse n'icy'amarongi. Inyuma ye hari undi murima uhinzemo ibigori harimo abantu batatu, hari kandi amazu ahakikije asakajwe amabati.

Ububiko bw'imbuto z'ibihingwa bigiye bitandukanye harimo ibigori, amashaza ndetse n'izindi nyampeke zirimo soya, hari kandi amafu y'ibihingwa ari mu mifuka y'umweru n'amabara y'icyatsi.

Inzu icururizwamo imiti yo kuvura amatungo, harimo inka, intama, ingurube, inkwavu, inkoko, ndetse n'utundi dutungo duto twororerwa mu rugo. Iyi nzu itewe irangi ry'umweru, ndetse harimo akabase ko gukarabiramo.

Abantu batandukanye batarenga icumi, bari mu murima izwimo: ibigori, amasaka, ibijumba, imyumbati, amateke, ndetse hafi yabo hari ishyamba rinini cyane. Aba bantu bameze nk'abari kureba uko imyaka imeze, bareba uko iri gukura.

Umurima munini cyane utarimo ikirare uhinzwemo ibishyimbo, ibirayi, n'ibigori byenda kwera bigaragara ko byagwingiye, kandi uyu murima usutswemo ifumbire y'imborera izakoreshwa mu kwita ku bindi bihingwa bigiye guhingwamo.

Inzu icururizwamo imiti y'amatungo ndetse n'imiti yica udukoko dushobora kwangiza ibihingwa birimo ibirayi, ibijumba amateke ndetse n'ibigori bikaba byazamo nkongwa, iyi miti ikoreshwa mu kongera umusaruro w'ibihingwa bigiye bitandukanye.

Inzu icururizwamo imiti y'amatungo arimo: inka, intama, ihene, inkoko, ingurube aho iyi miti ikoreshwa n'abavuzi b'amatungo mu kwita ku nyamaswa zo mu rugo zarwaye, iyi nzu kandi isizwe irangi ry'umweru.

Abantu batanu bafite ibyuma mu migongo yabo ndetse bambaye imyenda irimo amabara y'ubururu n'umutuku, bari mu muririma w'ibirayi utangiye kuyanga, bari gutere umuti ibirayi kugira ngo bizere neza ndetse bizere umusaruro utubutse.

Umusore wambaye inkweto zifunze, ipantaro y'umukara, umupira w'umweru afite isuka ari gucukura imyobo, ari gucukura hagati y'ahantu hari ibiraro byororerwamo inyamaswa zitandukanye nk'urugero inkwavu, hafi yaho kandi hari ingombe inyamaswa ziririramo.

Abantu benshi biganjemo abagore n'abagabo, bamwe muri bo bambaye udupira dusa tw'ubururu bari mu murima urimo ibishyimbo n'ibigori, bari gutera indi myaka muri uyu murima ndetse ubona ko bishimye cyane, hafi yayo hari ibiti ndetse hirya yabo cyane hari abandi bantu bari mu mirima.

Inzu icururizwamo imiti ikoreshwa mu kwica udukoko dushobora kwangiza ibihingwa, birimo ibigori, bikaba byatezwamo nkongwa ndetse n'amasaka, imyumbati n'ibindi bihingwa byakangizwa n'udukoko. Iyi miti ipanzwe mu tubati, ndetse hejuru hari ibyuma bikoreshwa mu gutera iyo miti.

Umugabo ahetse icyuma cy'umuti ari gutera umuti ibihingwa. Uyu muti ushobora kuba ari umuti wica udukoko cyangwa se ufasha ibihingwa gukura neza.

Umuntu ari mu murima w'ibigori, amasaka, ibirayi, amateke, imyumbati, n'ibijumba. Ari gutera umuti ibi bihingwa kugira ngo bitazangizwa n'udukoko, ahetse icyuma cy'ibara ry'umuhondo ndetse yambaye, imyenda imurinda amazuru ndetse n'amaboko, inyuma ye hari ikigega kirimo amazi.

Udufuka tune tw'umweru turimo ifumbire mvaruganda ikoreshwa mu gufumbira imyaka, yiganjemo ibirayi, ibijumba, ibishyimbo ndetse n'imbuto zimwe na zimwe, harimo ibinyoro ndetse n'amatunda, tutibagiwe insina.

Inyubako iri mu mujyi runaka, ikorerwamo ibintu bitandukanye harimo ubucuruzi, bw'amaterefone ndetse n'ubucuruzi, bw'iminara z'amateleviziyo. Hari kandi ahantu hakorerwa, ikigo cy'ubucuruzi cya banki.

Inyubako ifite urukuta rusizwe irangi ry'umuhondo rwanditseho ibibera muri iyi nyubako birimo imiti y'amatungo imbuto nziza ndetse n'inyongeramusaruro, Hari kandi amashusho ya karoti ,inka , inyanya ndetse n'ibindi bihingwa bitandukanye.

Abantu batandukanye biganjemo abagabo, bari mu murima aho bari guhinga bakoresheje amasuka. Bari guca imyobo, bigaragare ko bari gushyiramo ifumbire y'imborera ndetse n'imvaruganda bagiye guhinga ibirayi cyangwa se ibindi bihingwa bihingwa hakoreshejwe ifumbire y'imvaruganda, n'i...

Imiti iri mu tubati, biragara ko iri mu nzu icururizwamo imiti yica udukoko ndetse n'ivura inyamaswa. Kuri buri muti hagiye hamanitse urupapuro rwanditseho igiciro n'icyo uvura.

Inzu icururizwamo imiti yica udukoko twangiriza ibihingwa, harimo: imyumbati, ibigori, amasaka ndetse n'amateke. Iyi miti itondetswe mu kabati gakozwe mu mbaho ndetse hejuru hari ibyuma bikoreshwa mu gutera iyi miti.

Umuntu wambaye ibikoresho birinda intoki, afite ifumbire mvaruganda ikoreshwa mu gutubura umusaruro w'ibihingwa bitandukanye, harimo nk'ibirayi, ibigori, ibijumba, imyumbati, ndetse n'izindi mboga, ni ifumbire iri mu mufuka w'ubururu.

Inzu icririzwamo imiti y'amatungo ndetse n'imiti yica udukoko twangiriza ibihingwa harimo ibigori, imyumbati, amateke ndetse n'amasaka, harimo umuntu ucuruza ibi wambaye umwenda umurenga ndetse harimo ameza afite ibara ry'ubururu akozwe mu mbaho hakaba hariho ikayei n'ikararamu.

Inyubako ifite imiryango myinshi, muri iyi miryango haberamo ibikorwa bitandukanye, harimo ukoreramo ikigo cy'ubucuruzi cya Banki ya Kigali, umuntu ugihagarariye ni we ukoreramo.

Umurima munini cyane, urimo intoryi, inyanya, imboga, intoki, ndetse hirya aho hari undi murima uhinzwemo ibigori, ibirayi, kandi hari n'ubwatsi bw'amatungo. Uyu murima urahinze cyane kuko nta kirare kirimo, bigaragare ko hahinzwe vuba.

Umurima uhinzemo imyumbati, hafi yo mu murima hari ahantu hasaruwe ibigori, ndetse uwo murima urimo ibiti by'inturusu. Hari n'undi murima kandi uhinze, utarimo ikintu.

Umurima ufite ubutaka bw'umutuku, uhinzwemo imboga z'inpaki ndetse n'inyanya. Uyu murima ucuza n'ibiti iziritsemo imigozi, hafi y'aho kandi hubatswe amazu ahomwe itaka, ndetse asakajwe amabati, Hari kandi indi mirima ihinzamo ibishyimbo, imyumbati, ibirayi, mutongo.

Umurima ugizwe n'ubutaka bw'umukara usaruwemo ibirayi byiza cyane by'umweru, ibijumba ndetse n'amateke. Hari kandi ibyatsi byitwa ibirayirayi biba byakomotse ku birayi bihabwa amatungo. Hafi y'umurima kandi hari ahantu hahinzwe imyumbati.

Umurima munini cyane urimo ibihingwa bitandukanye, harimo amasaka, ibigori, ibishyimbo, imyumbati, ibijumba, ibirayi ndetse n'insina z'urutoki, hari kandi ibiti by'imbuto birimo imyembe, avoka, amacunga ndetse n'inanasi.

Umurima urimo ibigori byiza cyane bitoshye bihetse bibiri ndetse harimo utundi twatsi duto twagiye tumeramo two kugaburira amatungo ndetse n'imboga dodo.

Umubyeyi ukenyeye igitenge wambaye agapira gaciye amaboko k'umukara ari kwita ku bihingwa bye, aho bigaragara ko ari kubicuruza. Ni ibitoki binini cyane byeze neza cyane ndetse biteye amabengeza.

Umurima munini uhinzwemo insina z'urutoke, ndetse hafi yaho hari ahahinzwe soya n'ibishyimbo, ibirayi bitangiye kumera vuba, bigaragara ko bihinzwe vuba, hirya y'aho kandi hari ibiti by'inturusu birebire cyane kandi bibyibushye.

Umurima munini cyane usaruwemo ibirayi bigaragara ko byitaweho bigasigwaho ifumbire y'imborera n'invaruganda, kuko ni binini cyane. Kandi harimo amateke, imyumbati n'ibijumba, harimo n'utundi twatsi twagiye tumera turimo imbere.

Umurima munini cyane uhinzwemo imyumbati, isombe, amateke ndetse n'ibirayi, hafi yaho hari undi murima wezemo ibirayi, hari kandi ibiti ndetse n'ibigori bigaragara ko bitangiye kuma.

Ikigori cyiza cyane kinini cyeze neza. Gifite ubusenzi ndetse gikikijwe n'ibyatsi bitoshye. Ndetse hirya y'aho hari insina z'ibitoki.

Umurima uhinzwemo icyayi, hafi yaho hari ibiti, amazu ndetse n'ibyatsi bisanzwe bitari icyayi.

Mu murima munini cyane uhinzwemo ibihingwa bitoshye cyane birimo: icyayi ,ikawa ,ibirayi ,ibijumba, imyumbati, amateke, ndetse bikikijwe n'ibiti birimo iby' avoka, amacunga, ndetse n'utundi turabyo twiza cyane.

Umurima uhinzwemo imyaka igiye itandukanye irimo amadegede, ibihaza, intoryi, inyanya ndetse n'ibigori, hafi yaho hari ishyamba ry'ibiti ririmo inturusi, ikindi kandi umu ngumo harimo ubwatsi baha amatungo.

Umurima urimo ibigori byiza cyane bya kijyambere bitoshye, harimo ibirayi, imyumbati, amateke, ndetse n'imboga, hafi yaho hari ishyamba, iki kirere kirasa neza cyane bigaragara koko kiri kuva izuba, ikindi kandi nta mvura yenda kugwa.

Ubutaka bwashyizwe mu bintu navuga ko bimeze nk'amashashi cyangwa se amahema bahingamo ingemwe z'icyayi, izi ngemwe zizakurwamo igihe runaka zihingwe mu butaka busanzwe butari mu mashashi.

Umurima munini cyane urimo imboga rwatsi amashu, dodo, karoti, ingweja ndetse n'isogo, hafi yaho hari ahandi hahinze ibigori, ibirayi, ibijumba ndetse n'ibiti birebire cyane biziritswemo inka, ihene n'intama.

Umurima uhinzwemo ibishyimbo ndetse na soya bimaze igihe gito bitewe kitarenze ibyumweru bitatu , bigaragara ko harimo ibigori byasaruwe vuba , kuko ibitiriti byabyo byamaze kuma mbona ubutaka bwiza busa n'umukara.

Imisozi ibiri iteganye, ihinzweho ibihingwa bitandukanye. Umusozi umwe usa nkaho umaze igihe uhinzwemo ibirayi, ibishyimbo ndetse n'insina z'ibitoki. Hirya uy'umusozi umwe, hari amazu asakaje amabati. Undi musozi nibwo ugihingwamo ibishyimbo bigaragara ko ari bwo bitangiye kumera.

Umurima uhinzwemo ibishyiyimbo, soya, urumogi ndetse ukikijwe n'ibyatsi bihazetiye. Hafi yaho hari inzu isakajwe amabati ndetse n'inzu y'umweru, hirya kandi hari undi murima uhinzwemo ibirayi, ibijumba, n'ibindi.

Iri ni icupa ririmo ibikoresho bikoreshwa mu gupima, niba ibiryo birimo mikorobe ndetse rikaba rikoreshwa mu kureba niba ibyo kurya umuntu agiye kurya, nk'amata cyangwa se ibindi biryo bikomoka ku nyamaswa n'amazi byanduye.

Agafuka k'ibiro makumyabiri na bitanu karimofu igizwe n'intungamubiri zitandukanye ihabwa inyamaswa zirimo inka, ingurube, ihene, ndetse n'inkwavu, iyi ifu ifasha inyamaswa zayiriye gukura neza ndetse no kororoka.

Umuti wo mu gacupa ukoreshwa mu kuvura amatungo arimo inka, intama, ihene ndetse n'ibindi, agakarito kabikwamo uyu muti kagizwe n'amabara y'icyatsi, ubururu ndetse kariho ikimenyetso cy'umusaraba, ikindi kandi uyu muti ufite umufuniko w'umweru.

Imiti igizwe n'intungamubiri ihabwa inyamaswa zirimo inka, intama, ihene ndetse n'andi matungo yororerwa mu ngo, iyi miti iterwa mu rushinge bikaba bikorwa n'umuntu wabyigiye wize ubuvuzi bw'amatungo.

Inzu icururizwamo imiti yo kwica udukoko, itera uburwayi mu bihingwa birimo imyumbati, amateke, ibigori, amasaka, soya, inyanya, intoryi ndetse n'ibiti by'imbuto birimo avoka, amacunga.

Umuti uri mu icupa ry'umweru ndetse ufite umufuniko w'umweru, uri mu gakarito karimo amabara y'umutuku ndetse n'ubururu. Uwo muti ukoreshwa mu kuvura inyamaswa zirimo ingurube, inka, intama, iyo zarwaye. Uwo muti kandi, uri mu bwoko bw'ibinini.

Umuti uhabwa inyamaswa iyo zarwaye, zirimo ihene, intama, inka, ndetse n'ingurube. Uyu mutsi ni uw'amazi, mu macupa afite udupapuro tw'umweru, ndetse yandikishijweho amabara y'umukara. Hari indi miti nayo ihabwa inyamaswa.

Abantu bane bari mu kigero k'imyaka imwe bafite amasuka bari guhinga umurima, bigaragara ko bagiye guhingamo igihingwa gishyashya, hafi yaho hari umurima urimo ibigori ndetse n'insina z'ibitoki zigiye kwera, hari kandi utundi twatsi dutoya duhahabwa amatungo harimo nk'inteja.

Abantu bari guhinga bakoresheje amasuka, bigaragara ko ahantu bari guhinga hasaruwe ibigori, hari n'ababahagaze inyuma bari kwitegereza, harimo ababyeyi bambaye ibitenge n'imipira, biteze ibitambaro mu mutwe.

Abantu batatu bari mu murima, babiri muri bo barimo umugabo ndetse n'umwana w'inkumi bafite amasuka bari guhinga, hafi y'uwo murima harimo urutoki ndetse n'ibigori, ikindi kandi hari ibindi byatsi bigiye bitandukanye.

Abantu bari mu murima bari guhinga ndetse bambaye mu buryo bugiye butandukanye. Ahantu bari guhinga benda kuhahinga ibindi bihingwa bishyashya. Hafi yaho hari amashyamba ahinzemo ibiti by'inturusu, ndetse hari n'ubwatsi bugiye butandukanye bugaburirwa amatungo.

Ababyeyi babiri bari mu murima bari guhinga umurima uhinzwemo amateke ndetse n'insina z'urutoki. Aba bantu bari guhingira urutoki barwongerera itaka ndetse hasi hari ibibabi byaguye hasi byumye.

Abantu b'abasore bahuriye hamwe bari kumwe bakoresheje amasuka, bigaragara ko bari gukora ikiraro cyo kunyuraho kugira ngo hajye hakomereza imihahire hagati y'abatuye hafi n'uyu muhanda, hari kandi imirima ihinzwemo ibitoki, ndetse hari n'ibiti bya voka.

Umugabo wambaye ishati y'umuhondo, ipantaro yahinnye, ari guhinga akoresheje igikoresho cy'isuka, ari guhinga umurima uhizwemo imyumbati, isombe ndetse n'ibigori, bigaragara ko bitakuze neza, hirya ye hari igishanga gihinzwemo umuceri, ndetse hirya y'icyo gishanga hari ingo zisakaje amabati, ndetse hafi y'izo ngo hahinzwe imyumbati.

Inkumi nziza iri mu murima uhinzwemo ikawa ndetse n'icyayi ari gusasira iyi myaka kugira ngo itazangirika, harimo kandi amatiyo ayobora amazi akoreshwa mu kuhira iyi myaka kugira ngo itazuma. Inyuma y'aho hari undi murima uhinzemo ibirayi n'ibijumba.

Umubyeyi ari mu murima ahinzwemo amateke, imyumbati ndetse n'insina, ari guhinga ndetse ari kwita ku myaka, hafi y'aho hazitijwe ibyatsi byinshi cyane birimo umwenya, imibirizi ndetse n'imiravumba.

Abantu bafite imyaka igiye itandukanye harimo abagabo, abana, abasore ndetse n'abagore, bafite amasuka bari guharura umuhanda w'igitaka, bigaragara ko bari mu muganda rusange, inyuma yabo hari imirima ikikijwe n'ibiti by'inturusi, iyi mirima ihinzwemo ibishyimbo.

Umuntu bigaragara ko hari mukuru w'umusaza wambaye ipantaro y'umukara yahinye, yikoreye ubwatsi bukomoka ku bigorigori. Ari kugenda mu muhanda w'igitaka, ukikijwe n'ubwatsi ndetse n'ibiti birebire. Ubu bwatsi abujyaniye amatungo ye yasize, mu rugo cyangwa se aho ayororera.

Abagabo batatu harimo uwambaye ingofero y'umukara n'ipantaro y'umukara ndetse n'umupira w'umuhondo, ndetse n'undi mugore wambaye ipantaro y'ubururu n'umupira w'umukara, bari mu murima w'ibigori byeze binini cyane, mu murima kandi urimo soya.

Abantu batandukanye biganjemo ab'igitsina gore bari gukata icyondo bari gukoresha bahoma uruzitiro rwubakishijwe ibiti, bikikijwe inzu isakajwe amategura. Iyi nzu bigaragare ko ari iy'umuntu utishoboye bakaba bari mu muganda, hafi y'iyi nzu hari insina z'ibitoki ndetse hari n'ibiti batemye bakoresheje bubaka uru ruzitiro.

Umurima munini cyane, uyu murima uciwemo imiringoti, n'imirwanyasuri, ndetse wacukuwe imyobo bigaragara ko ugiye guhingwamo igihingwa bashaka guhinga muri uyu murima.

Abantu bahuriye mu murima, ndetse bamwe muri bo bafite ibitabo. Bigaragaza ko hari mugenzi wabo, uriguhinga igihingwa runaka, ahantu hato bahinze. Hafi y'aba bantu hari inzu zisakajwe amategura, insina, ndetse kandi uwo murima barimo, harimo ibigori.

Umurima munini cyane bigaragara ko uhinzwe vuba urimo umubyeyi wambaye umupira w'umutuku ndetse n'ingutiya y'ubururu ari kumwe n'akana gatoya cyane hirya y'umurima hari indi mirima ihinzwemo intoki, ibijumba, amateke, isombe. Hari kandi n'ibindi biti bisanzwe hirya hari indi misozi miremire cyane.

Umukobwa wambaye ipantaro y'umutuku, umupira wumukara ndetse n'ingofero y'umweru, imisatsi miremire y'umukara, afite isuka ari guhinga. Ahantu ari guhinga hagiye hashinze uduti. Inyuma ye hari ibiti binini cyane, ndetse hitaruyeho gato, hari amazu ndetse n'ibindi biti by'inturusu.

Umubyeyi wambaye igitenge, ufite umusatsi wumukara cyane, arunamye, arikubagara umurima. Ari mu murima uhinzwemo ibigori, insina, imyumbati, ibirayi, ibijumba, ndetse n'ibindi biti byavoka amacunga.

Umurima munini cyane utarimo ikirare bigaragara ko uhinzwe vuba urimo ababyeyi batatu bari kwita ku bihingwa birimo. Kandi urimo imyumbati, amateke, ndetse n'ibirayi. Hirya y'aho hari undi murima uhinzwemo ibishyimbo ndetse ukikijwe n'ibiti by'impuruza.

Abantu babiri bari mu marima bari guhinga bakoresheje amasuka, ahantu bari guhinga hasaruwe ibigoberi, hafi yaho hari undi murima urimo insina z'ibitoki ndetse n'ibiti bya voka, inyuma yaho kandi hari ubwatsi bukoreshwa bagaburira inka ndetse hari n'utundi tubaga dutoya.

umukobwa wambaye ingofero y'umukara, umupira w'uburu ndetse n'ipantaro yumukara ari gusasa ubutaka akoresheje isuka. Mu murima yahinzemo ingemwe zitandukanye zirimo iz'avoka, icyayi ndetse n'ikawa. Hirya y'aho, hari amazu yubakishijwe amatafari ahiye ndetse asakajwe amabati y'umutuku. Hari kandi ibiti birebire cyane.

Abagabo babiri bambaye amakoti manini cyane, umwe muri bo yambaye ingofero, bari guseka cyane. Imbere yabo hari imifuka itanu irimo ibirayi bigaragara ko byeze neza cyane, kandi bari imbere y'inzu ifite urugi rw'imbaho ndetse ihumye ibyondo, isakaje amategura. Inyuma yabo kandi hari ibiti, ndetse n'umurima uhinze.

Igishanga gihingwamo umuceri, harimo abantu bari guhinga ndetse n'abikoreye ubwatsi, bigaragara bavuye kwahira ubwatsi bw'inka, ibishanga kandi birimo umuceri uhinzwe vuba ndetse hari nuwo bagiye guhinga.

Abantu bambaye impuzankano y'imyenda y'ubururu bari gutoranya ibigori ibishyiyimbo bakuramo ibyapfuye bagasigaza ibizima ibi bintu biri kumahema y'umukara kandi hafi yaho hari ibindi bitaravungurwa.

Ikirundo cy'ibigori gisaruwe vuba imbere yaho hari imifuka irimo impungure zahunguwe. Hafi ya ho hari ihema ry'ubururu ndetse n'ibyatsi bitandukanye kandi hari ishyamba rinini cyane. Ikindi kandi hari.

Abakozi batandukanye barimo abagore n'abagabo bari mu gishanga kinini cyane gihinzwemo umuceri, ibitunguru ndetse harimo ipoto y'amashanyarazi bigaragara ko hafi aha hari ingo zijyanwamo aya mashanyarazi, hari kandi indi mirima ihizwemo urutoki n'ibigori hafi y'iki gishanga.

Isoko ry'ibiribwa igice cyane cyane cyiganjemo ibinyampeke harimo ibishyimbo, impungure, soya, ndetse n'ibindi biribwa birimo ibirayi, imyumbati n'amateke. Iri soko ririmo abacuruzi ndetse n'abaje guhaha.

Isoko riricururizwamo imbuto ririmo ababyeyi biganjemo abagore bacuruza izi mbuto zirimo avoka, imyembe, amacunga, imineke ndetse n'imboga zirimo intoryi,, inyanya, dodo n'ibindi biribwa bigiye bitandukanye.

Igishanga cyarengewe n'amazi menshi cyane, gihinzwemo umuceri, ndetse kirimo utunyamaswa, zirimo ibikona, utunyamanza, ndetse hirya yaho hari umu umusozi uhinzwemo ibigori byenda kwera, ndetse hari n'ibirunga hirya yaho gatoya.

Ibirayi byiza cyane biri mu bwoko bwa kinigi nyabize, ndetse n'ibindi by'umweru, biri mu soko. Biri gucuruzwa n'abacuruzi bagiye batandukanye, ndetse hari n'abaguzi baje kubigura. Ikindi kandi harimo imyumbati, ibijumba, na byo biri gucuru...

Ububiko burimo iy'ibigori by'ubwoko butandukanye. Harimo ifu y'bigori yakorewe muri uganda ndetse n'ifu y'ibigori yakorewe mu Rwanda . Ikindi kandi harimo udufuka tw'ibiro icumi ndetse ndetse n'utwa makumyabiri na bitanu.

Imodoka iparitse ahantu mu muhanda w'igitaka, harimo umuntu uri gupakiramo ibitoki, ndetse munsi harimo imifuka irimo ibijumba n'imyumbati n'amateke. Imodoka isa n'umweru ndetse hafi yaho hari amazu atewe amarangi y'umuhondo, ndetse n'ibinyabiziga bifite amapine abiri bihagaritse ku ruhande.

Isoko ricururizwamo ibiribwa, biganjemo ibinyampeke harimo: soya, ibigori, ndetse n'andi mafu atandukanye akomoka ku bihingwa. Hari abantu bari kubicuruza ndetse n'abaje kubigura.

Mu murima munini cyane uhinzwemo imyumbati, ibijumba, amateke, isombe ndetse harimo imboga zirimo intoryi, inyanya, imboga zirimo imbwija, hafi yaho hari indi mirima ihinzwemo ibindi bihingwa.

Ububiko bufite ibikuta bitewe amarangi y'ubururu, ndetse harimo abagabo babiri baterura imifuka irimo: ibigori, amasaka, ibishyimbo ndetse n'ibindi bihingwa bikomoka ku buhinzi, harimo kandi imifuka irimo ibirayi.

Inzu ikikijwe n'ibiti ndetse n'insinga z'amashanyarazi. Hari ikirere cyiza kirimo amabara y'ubururu n'umweru rwose bigaragara ko nta mvura iri hafi kugwa.

Umurima urimo ibitoke, amateke, ndetse hari n'ikindi giti cy'ubwoko bw'imboga bwitwa ibishayote, uyu murima ntabwo uhinze.

Ishyamba ririmo ibiti binini cyane kandi birebire, riri hafi y'ahantu hahinzwe ibijumba, imyumbati n'amateke, hirya yaho kandi hari imirima ihinzwemo ibigori byenda kwera ndetse hari n'irindi shyamba ririmo utunyamaswa duto.

Ahantu hari utwatsi tugiye dutandukanye turimo ibisura ndetse n'ibiti batemye ariko byose ntibabiteme. Hari kandi imishubi, intobotobo ndetse n'intabo. Ikindi kandi hari utuboga twagiye tumeramo turimo utudodo.

Umurima uhinzwemo avoka, imyembe, amaronji, amatunda, imboga rwatsi, dodo, inyanya, insina, ndetse harimo n'ubwatsi bw'amatungo, izi mboga zihinzwe mu mifuka yubakishijwe ibiti, ndetse hafi yaho hari urugo rusakajwe n'amategura.

Umurima munini cyane, umaze guhingwamo imyaka itandukanye, harimo amashu, intoryi, karoti, inyanya. Hafi yaho hari igiti cy'amapera n'icyavoka, ndetse hari n'ubwatsi bwakahirirwa amatungo.

Ishyamba rinini cyane ririmo ibiti birebire kandi bibyibushye cyane, ririmo n'utwatsi dutoya turimo imitobotobo, intobo ndetse turimo udukwi twumye abantu batashya bakajya gucana.

Ishyamba rinini cyane ririmo ibiti bituze kandi bibyibushye. Iri shyamba ririmo ubwatsi bugiye butandukanye burimo inteja zihabwa amatungo. Hari kandi inzira igendwamo n'abantu, igaragara ko...

Umurima uhinzwemo imbuto zirimo amaronji, amacunga, imyembe ndetse na avoka. Hafi yaho hari amazu asakajwe amabati ndetse akikijwe n'ibindi biti birebire cyane. Imirima kandi yamezemo imboga rwatsi.

Umurima uri hafi y'ingo zisakajwe amabati zifite inzugi z'icyatsi, umurima ukaba wezemo ibigori, ibishyimbo ndetse n'amateke, ikindi kandi harimo ibiti by'imyembe, amacunga, avoka ndetse n'insina z'intuntu.

Inzu isakajwe amategura ndetse hafi yaho ari akarima k'ikoni, kubakishije ibiti n'imifuka ndetse hari n'avoka, urutoke, ndetse n'ibindi biti.

Ishyamba rinini cyane ririmo ibiti bitandukanye ndetse n'ibyatsi bitandukanye birimo: umwenya, igikakarubamba, avoka, umuyenzi, intobotobo ndetse n'imibirizi, ikindi kandi amababi yaguye hasi arumye.

Umurima umaze kubagarwa vuba utarimo ikirere urimo urutoke, rwenda kwera ndetse n'imyumbati, isombe, ibijumba, n'amateke. Hafi y'umurima hari ibindi biti, n'imirwanyasuri, ndetse hari ubutaka bwiza cyane gusa n'umutuku.

Ingeme z'ibiti, ikawa n'avoka ndetse n'izindi mbuto, ziteretse ahantu aho zitegerejwe ko zikura maze zikazahingwa mu butaka mu buryo busanzwe bahingamo indi myaka. Hafi yaho hari igiti gifasha gukurura umwuka mwiza. Hari kandi ibindi bihingwa nk'ibijumba, imyumbati, ndetse ...

Umurima munini cyane urimo amasaka, ibigori, hari ibiti bihinze hafi yaho byo kurwanya isuri, hirya yaho kandi hari ishyamba rinini cyane, ndetse hari n'indi mirima ihinzwemo indi myaka irimo nk'ibijumba, amateke ndetse n'insina.

Ishyamba rinini cyane ririmo ibiti binini kandi ririmo bamukerarugendo baje kureba ibyiza bitandukanye biri muri iri shyamba, harimo inyamaswa z'inkende, inkima ndetse n'ibindi biti bitaba mu bihugu byabo. Aba bakerarugendo bahetse ibikapu ndetse bambaye imyenda irimo amabara y'ubururu kandi ni abazungu.

Abantu batatu bari kureba uko ingemwe z'ikawa, icyayi ,ndetse n'avoka zimeze, hafi yabo hari ibikoresho bikoreshwa mu kuhira imyaka, ahantu bari kandi hubakishijwe ibiti, ndetse hazitijwe ibyatsi byo mu bigorigori.

Abantu babiri barimo umumama n'umukobwa ukiri muto bafite intoryi mu biganza byabo; inyuma yabo hari umurima urimo: intoryi, inyanya, insina z'intoki, amateke, ibijumba n'ibirayi byenda kwera, kandi bitoshye byitaweho neza.

Isoko ry'ibiribwa cyane cyane ibyiganjemo imboga harimo karoti, intoryi, inyanya, imboga rwatsi, ibitunguru, biri ahantu bigaragara ko biri gucuruzwa kuko byagaragajwe ubwiza bwabyo kugira ngo abantu baza kubihaha babyitegereze neza.

Umurima uhinzwemo icyayi ndetse n'ikawa, uyu murima witaweho cyane warafumbiwe kuko imyaka irimo iratoshye ntago yumye, ikindi kandi hafi y'umurima hari umugenda ucamo amazi, kugira ngo atazuzura agatembana imyaka.

Umubyeyi ukenya igitenge ari kumwe n'abana be bambaye amajipo n'amashati adozwe mu bitenge, bari mu murima urimo ibishyimba, soya, ndetse n'intoki. Kandi harimo ibijumba n'ibirayi, amateke, bari kwitegereza umuntu runaka, uri kubafotora.

Igitenge kigizwe n'amabara y'umutuku, umweru, umukara ndetse n'umuhondo, hariho imineke ihiye minini, ikindi kandi hari izindi mbuto zirimo amacunga, amaronji, imyembe ndetse na avoka.

Imbuto zirimo imyembe ziri ku ihema, amatunda ari ku nkoko ndetse n'ibinyomoro n'amarongi byose biri ku nkoko biri gucuruzwa biri mu isoko, ikindi kandi hafi y'izi mbuto hari agakarito karimo amabara y'umutuku.

Imbuto nziza cyane zirimo imyembe, amatunda, amaronji, indimu, imineke, biri mu isoko biri ku ihema ry'ubururu biri gucuruzwa, ikindi kandi biri mu kantu kubatse neza kubatswe n'ibiti, hafi yaho hari umunzani bakoresha bari gupima ibiro runaka.

Akarima k'igikoni karimo imboga zitandukanye, harimo: imboga rwatsi, amashu, dodo, inyanya n'intoryi. Hari iziri mu gipangu, inyuma y'iki gipangu, hari inzu zisakajwe amabati y'umutuku ndetse afite uruzitiro rwubakishijwe amatafari atukura, kandi hafi yazo hari insina z'ibitoki.

Abantu batatu bicaye imbere y'ameza akozwe mu mbaho, kandi umwe muri bo wo hagati bigaragara ko acuruza imboga zirimo inyanya, ibitunguru, imboga rwatsi, karoti, amadegede ndetse n'intoryi. Hirya yabo hari intebe ikozwe mu mbaho, ndetse inzu bicayeho iriho irangi ry'umuhondo, ndetse isakajwe amabati. Hirya yabo kandi hari n'inzu ihomye.

Umusaruro w'ibitunguru bitandukanye bigaragara ko byahinzwe ahantu hatandukanye harimo ibisa iby'umweru ndetse n'iby'umutuku ibi bitunguru bigaragara ko byitaweho bigihingwa ndetse hariho n'ibirayi imyumbati n'ibiibindi.

Imbuto zitandukanye zirimo amatunda, amaronji, ibinyomoro, imyembe, amacunga ari mu kantu gakozwe mu mbaho ndetse gakikijwe n'umufuka, izi mbuto ziri ku isoko ziri gucuruzwa n'umucuruzi.

igitenge kirimo amabara y'umuhondo, umweru, umukara ndetse n'umutuku, kiriho imbuto zitandukanye zirimo intoryi, karoti, inyanya n'imboga rwatsi zikoreshwa mu guteka ibiryo bigiye bitandukanye.

Abagore bafite inzara nziza cyane bicaye imbere yabo hari amabase arimo imbuto zitandukanye zirimo avoka, amaronji, imyembe, amacunga, bigaragara ko bari kubicururiza ku muhanda bategereje ko abantu batambuka babagurira.

Ibihingwa by'imboga birimo karoti, intoryi, inyanya, ibibiringanya biri mu mabase y'umutuku, icyatsi n'ubururu, biri gucuruzwa n'abacuruzi bacuruza ibikomoka ku buhinzi, hari kandi imifuka bapakiramo ibi bintu iyo abantu bamaze kubigura.

Ubusitani butoshye ndetse bukikijwe n'uturabyo twiza cyane, hari igiti cy'imbuto cy'amapera, icya voka, imyembe ndetse n'amaronji, hirya y'ubusitani hari umurima uhinzwemo ibisheke ndetse n'ibitoki hamwe n'ibindi biti bisanzwe bifasha gukurura umwuka mwiza.

Umugabo muremure wambaye ingofero y'umukara ari mu murima munini cyane uhizwemo imbuto zirimo imyembe, amacunga, amatunda, ibinyomoro ndetse n'imboga zirimo dodo, intoryi n'inyaya. Ikindi kandi, umurima ukikijwe n'ibindi biti bifasha ibihingwa gukura neza.

Umuryango umugore, umugabo n'abana babiri, umwana w'umuhungu n'umwana w'umukobwa, aba bana baracyari bato, bari mu murima w'imiteja, bari gusarura imiteja, ndetse hirya y'umurima barimo hari ibiti, ndetse n'imirima ihinze itarimo ikintu...

Ubusitani burimo indabyo zitandukanye zirimo uturabyo tw'umweru, utw'umuhondo ndetse n'utw'umutuku, bikikijwe n'igipangu cyubakishijwe amatafari ahiye ndetse n'ibindi biti birebire harimo ibiti by'avoka ndetse n'iby'amacunga, inyuma y'iki gipangu kandi hari inyubako isakaje amategura atukura.

Mu murima harimo amadegede cyangwa se ibihaza, hafi yaho hari ibigori ndetse hari n'ibiti, hari kandi insinga z'amashanyarazi zikikije uyu murima, bivuze ko hafi y'umurima hari ingo zijyamo aya mashanyarazi.

Mu mirima ihinzwemo imbuto zitandukanye zirimo ibinyomoro, amatunda, amaronji, amacunga ndetse n'izindi mboga zirimo imboga dodo, karoti , intoryi ndetse n'ibijumba amateke, imyumbati.

Akarima k'igikoni gahinzwemo imboga rwatsi zitandukanye, harimo dodo, intoryi, karoti ndetse gakikijwe n'ibindi biti, harimo n'igiti cy'imbuto cya avoka, hari kandi inzu iri hafi yaho yubakishijwe amatafari ahiye, isakajwe amabati, isizwe irangi ry'umweru.

Inyubako nziza zubakishijwe amabati, zikikijwe n'ibiti by'avoka ndetse n'indabyo nziza zakuze zirimo amabara y'umuhondo n'icyatsi, hari kandi ubusitani ndetse n'insina.

Umurima uhinzwemo imboga karoti, intoryi, inyanya, uzitijwe ibyatsi ndetse n'ibiti ikindi kandi hirya y'umurima hari ahari ibirayi, bijumba, amateke ndetse ubutaka bw'aho ni bwiza cyane busa n'umutuku.

Umurima uhinzemo igihingwa cy'urusenda ndetse na karoti, intoryi, inyanya n'izindi mboga zirimo amashu, ingweja, isogo. Hari kandi utundi twatsi duto twagiye tumeramo ndetse ibi bintu birasasiwe.

Umusore wambaye ipantaro yumukara, agapira k'ubururu, ari mu murima w'imboga z'amashu, aya mashu arasasiye kugira ngo atazangirika. Hijya yaho hari igishanga gihinzemo umuceri utoshye cyane.

Umurima urimo imboga rwatsi. Dodo, inyanya, ibibiringanya ndetse n'ibishayote. Ikindi kandi hari ibiti bya avoka ndetse n'indi miti ikoreshwa mu buvuzi nk'umwenya, imiravumba n'ibikakarubamba.

Ubusitani bwiza cyane burimo ubwato butoshye ndetse buhinzwemo igiti k'ipera, hari ibiti bikikijwe ubu busitani ndetse n'indabyo, kandi hari inzu ifite igipangu cy'amabara y'ubururu, hari kandi izindi mbuto zihinzwemo nk'amapera, amaronji n'amatunda.

Aha hari umuntu wicaye ufite amabasi arimo imbuto zitandukanye harimo amatunda ibinyomoro, amaronji, ibitunguru, imboga za karoti n'intoryi, ari gucuruza, ndetse hirya hari ikindi gipfunyika kirimo izindi mbuto aracuruza izo yatanditse zishize.

Abantu barimo mu byiciro bitandukanye, abagore, abana n'abagabo bari mu isoko rinini cyane ririmo imyenda, imbuto ziganjemo imyembe, amaronji, amatunda ndetse n'indimu, ikindi kandi hari abari gucuruza ibikoresho ndetse n'ibiribwa.

Ahantu hari ibiti bitandukanye, hazitijwe ibyuma ndetse n'inkingi zaho zisizwe irangi ry'umuhondo, harimo ibiti ndetse n'indabyo z'umuhondo, hari kandi utundi turabyo duto turimo inteja.

Umurima munini cyane uhinzemo ibijumba n'amateke, ndetse n'ubwatsi bw'inka, ihene, intama, ndetse n'ingurube. Harimo igipapayi, ndetse hirya hari ibindi biti, hari n'umurima urimo ubutaka bw'umutuku, buzahingwamo ibindi bihingwa.

Isoko riricururizwamo ibikomoka ku bihingwa harimo imboga z'imiteja, ibibiriganya, intoryi, inyanya, ibitunguru ndetse biri mu mabase y'icyatsi n'umutuku. Hari kandi ibindi bicuruzwa birimo imbuto, ndetse hari n'abacuruzi.

Isoko ricururizwamo imbuto harimo imineke, imyembe, ibinyomoro, amatunda ndetse hafi y'izi mbuto hari umuzani, harimo n'abantu bari gucuruza ndetse n'abari kugura.

Umurima munini cyane wezemo ibigori, intoki, ibirayi n'ibijumba. Hagati yaho hari ahantu hahinze utuboga, turimo dodo, intoryi, karoti, kandi aha hantu hameze nk'ahagiye kuzahingwa vuba.

Umugabo wambaye ishati y'umutuku ari kwita ku binyomoro bye yahinze, bataratangira kuzana uruyange, bihinzwe ahantu heza kandi birasasiye, aho uyu murima ufite ubutaka bw'umutuku, hari kandi insina z'ibitoki ndetse n'ibindi biti bifasha kurinda isuri.

Ikintu kirambuye hasi kiriho imbuto zirinda indwara, zirimo imineke, amaronji, amacunga bihiye neza kuko byamaze guhindura ibara ryabyo, rikava ku ibara ry'icyatsi rikajya ku ry'umuhondo, izi mbuto bigaragara ko zamaze kugurwa ziteretse ahantu runaka, zitegereje abazikoresha ngo baze bazi.

Abantu babiri umugore umugabo bari guseka bari guhinga akarima k'igikoni gakoreshejwe ibiti n'imifuka bari guhinga imboga zirimo inyanya, intoryi imboga rwatsi ndetse n'izindi mbuto.

Umurima uhinzwemo intoryi, inyanya, n'izindi mboga, izi nyanya zirasasiwe kugira ngo zitazangirika, hafi yaho hari igishanga gihinzemo umuceri, ndetse hari n'undi murima uhinzwemo ibirayi n'ibijumba.

Uruzitiro zitiya ahantu runaka rufite amarangi y'umukara ndetse rwubakishijwe amatafari ahiye, hafi yaho hari uturabyo twize cyane dufite amabara y'umweru, hari kandi ubusitani hafi yaho hateye ibindi biti.

Abantu babiriye umugabo n'umugore, umugore yateze igitambaro k'icyatsi, bafite imboga rwatsi, z'amashu ndetse na dodo bahinze. Bari guseka, bari kugaragaza umusaruro wabo. hafi yabo hari indi biti, kandi hari indi mirimo. Hari n'abantu bari kwitegereza.

Inyubako nziza cyane ifite ubusitani buhinzemo ibiti birebire ndetse n'utundi turabo tugufi twiza, cyane hafi yaho hari inyubako, iyo nyubako kandi itewe amarangi y'umuhondo ndetse hari ibiti birebire kandi hari ahantu hahagaze imodoka zigenda zijemo abantu baje muri iyi nyubako.

Amabase abiri akabase kamwe gato karimo ibinyomoro, inini irimo ishashi ariko iyo shashi ikaba irimo amatunda imbere y'ibase nini bigaragara ko hicaye umubyeyi byumvikana ko ari gucuruza izi mbuto.

Umusore wirabura wambaye inkweto z'umukara ipantaro y'umukara n'umupira w'umweru, uri mu murima uhinzwemo ibishyimbo, icyayi, ibirayi ndetse umurima uzitijwe ibiti. Hafi yaho hari undi murima uhinzwemo ibigori byeze.

Isoko ricururizamo ibiribwa bitandukanye by'imboga, birimo ibiriringa, karoti, intoryi, ndetse n'amavuta, imiteja, hakaba hari amabase y'ubururu, icyatsi n'umutuku, ikindi kandi hari imifuka ibikwamo ibi biribwa.

Umubyeyi ari gucuruza imbuto zigiye zitandukanye zirimo amaronji, amacunga, ibinyomoro, amatunda ndetse n'izindi mboga ziririmo karoti, intory n'inyanya, hari umuntu uhagaze hafi yaho bigaragare ko agiye kugura kuri izi mbuto.

Aha ni ahantu hari ikigo runaka. Hafi yaho hari ubusitani bwiza burimo uturabyo dutandukanye, turimo utw'umutuku. Hirya yaho kandi hari igikuta cyubakishijwe amatafari ahiye, ndetse gitewe irangi ry'umukara; hari kandi icyapa kirimo amabara y'ubururu n'umutuku, bigaragaza ibikorwa bibera muri iyi nyubako.

Abantu batatu bafite ibibido ndetse n'ikindi gikoresho gikoreshwa mu kuhira imyaka irimo ibishyimbo, ikawa, icyayi ndetse na soya. Hafi y'aho kandi hari umurima uhinzwemo ibigori ndetse n'izindi ndabyo.

Abantu babiri bari mu mirima ihinzwemo ibigori, inyanya, karotim intoryi ndetse n'ibigori, bari kuhira iyi myaka kugira ngo izuba ni riva cyane iyi myaka ntizume ahubwo izere neza, hafi yaho kandi hari ubwatsi butoshye cyane bahirira inyamaswa zabo bafite mu rugo.

Abana babiri bagiye kuvoma, hari itiyo rijyana amazi ribavomeraho, hari abana babiri, hari utwaye ibibido bibiri n'undi ukiri kuvoma.

Abantu batatu bari mu murima, umwe muri bo yambaye umupira w'umweru n'umukara nta kintu ari gukora, undi afite ikaramu hari ibintu ari kwandika, mu gihe undi ari kuhira imyaka irimo inyanya n'intoryi ndetse na karoti, inyuma yabo hari umurima urimo ibigori ndetse n'insina.

Umugabo ari mu murima uhinzemo ibigori ndetse n'amasaka, aho ari kuhira iyi myaka akoresheje umugezi, uri gusakaza amazi mu murima. Hirya yaho kandi hari ibiti ndetse n'ahandi hantu hahinzwe ingano.

Umurima uhinzwemo amashu ndetse urutoki, harimo umusore, bigaragara ko ari gusasira amashu.

Umugabo wambaye agapira karimo amabara y'umweru n'umukara ndetse wambaye ipantaro yahinnye, wambaye ingofero ari kuhira imyaka irimo ibishyimbo, soya ndetse n'ibindi bihingwa. Ari kubyuhira kugira ngo bitazuma kuko ari igihe cy'izuba. Hafi yaho hari ubwatsi butoshye neza cyane bugaburirwa amatungo.

Umubyeyi wishimye cyane uri guseka. ari guhinga mu murima urimo ibigori, ndetse hafi yaho hari ubwatsi bw'amatungo, ndetse hasi hari ibyatsi byinshi cyane. Hirya yaho kandi hari hari indi mirima ihizwemo ibihingwa bitandukanye. Nk'ibirayi ndetse inyanya...

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara ufite uruhara ari mu murima uhinzwemo: ibitunguru, ibigori, inyanya ndetse n'intoryi, akaba ari kuhira iyi myaka kugira ngo itazuma; hirya y'iyi myaka hari ibiti bitandukanye birebire kandi bibyibushye, hafi yaho kandi hari undi murima uhinzemo ibishyimbo ndetse n'amateke.

Umurima munini cyane uhinzweho ubwatsi bw'amatungo ku mikingo, harimo ibirayi, ibijumba, amateke, hirya y'aho hari igishanga gihinzwemo umuceri ndetse hari n'insinga z'amashanyarazi zigiye zijyana amashanyarazi mu ngo z'abaturage.

Igishanga kinini cyane kirimo umuceri ubura nk'amezi atanu ngo wera. Hari imisozi ikikije iki gishanga ihinzwemo ibindi bihingwa nk'ibirayi, ibijumba, imyumbati, insina z'ibitoki, ndetse n'ibindi biti bisanzwe bakoresha bacana ndetse bazamo imbaho zo gukora intebe. Hari ingo kandi zisakajwe amabati n'amategura, zikikije iki gishanga.

Umurima munini cyane ufite ubutaka bw'umutuku urimo ibishyimbo, soya, ibijumba, amateke, ibirayi. Hirya y'aho hari igishanga gihinzwemo umuceri ndetse hafi y'aho hahinzwe umuceri hari amazu asakajwe amategura, ndetse hari n'ibindi biti bikoreshwa mu kubaza intebe zo mu mbaho.

Igishanga gihinzwamo umuceri ,ibirayi ndetse n'ibindi bihingwa by'ibinyampeke . Hafi y'aho hari amazu asakajwe amabati, amategura ndetse hari n'ibindi biti. Hari n'inyamaswa zigiye zitandukanye.

Igisambu kinini cyane kirimo ubwatsi butoshye ndetse n'umuhanda w'ibitaka, hirya y'aho hari ibiti birebire kandi hari amazu asakajwe amabati, ikirere cy'aha hantu gisa neza kirimo amabara y'ubururu ndetse n'umweru.

Inzu zifite amabati y'umutuku, hirya yazo hari umubande uhinzwemo ibihingwa bitandukanye ndetse hejuru y'uwo mubande hari ishyamba ry'ibiti.

Imirima yaciyemo imiringoti, igiye itandukanye kugira ngo harwanwe isuri ishobora guterwa n'imvura nyinshi, aha kandi hari amazu asakajwe amategura, ndetse ahomwe ibyondo. Iyi mirima iriho imiringoti, ihinzwemo ibintu bitandukanye, birimo ibirayi, ibigori, ndetse n'ibishyimbo.

Ihene, intama, inka, ziziritswe ahantu hazitijwe ibiti ndetse hafi yazo hari ubwatsi. Ahantu ziri hagera akazuba bigaragarare ko hadasakaye, ikindi kindi hafi yaho hari ahantu hahinze ubwatsi bw'inyamaswa.

Inyamaswa zo mu rugo zirimo inka, ihene, intama. Ziryamye mu kiraro cyubakishijwe ibiti ndetse zisakajwe amababi. Iyi nka iraryamye, iratuje ntiri kwabira. Kandi hafi yayo, hari ubwatsi butoshye, busa neza cyane.

Imishwi mikuru ndetse n'imito cyane isa n'umweru iri ahantu hubakiwe, hubakishijwe amatafari ahiye ndetse n'ibiti. Harimo utuntu zigenda ziriramo ibiryo ndetse zikanyweramo n'amazi.

Umusore wambaye inkweto z'umukara n'ishati y'umweru ukiri mutoya, ari hafi y'inka nyinshi cyane ziri mu kiraro cyazo, cyubakishijwe ibiti, ndetse gisakajwe amabati. Ikindi kandi izi nka ziri kurisha ubwatsi zahawe n'uwabwahiye.

Ku nzira nyabagendwa hari abantu batandukanye b'ibyiciro bitandukanye abagabo, abagore, urubyiruko, abana. Hari ingurube bafite bigaragara ko baje kuzicuruza. Hafi yabo hari imodoka ihaparitse ndetse hari n'ahantu hahinzwemo indabo.

Inka, intama, ihene byambaye amahena y'umuhondo, biri ahantu hari ubwatsi zahiriwe n'uzorora, ziri hafi y'inzu yubakishijwe amatafari ya rukarakara ndetse hakaba hasakajwe amategura ikindi kandi zifite ubwatsi hafi yazo.

Aha hari ababyeyi babiri barimo umugabo n'umugore ndetse n'akana kabo gatoya kari munsi y'imyaka itanu, bari hafi y'ikiraro cy'amatungo yabo arimo inka, intama ndetse n'ihene, cyubakishijwe ibiti kigasakazwa amabati, bari kuzigaburira ubwatsi bavuye kuzahirira.

Urwuri rurimo amatungo atandukanye yo mu rugo, arimo inka, intama, ihene, ziri kurisha ubwatsi butoshye cyane. Uru rwuri ruzitije ibiti, ndetse hirya yaho hari umurima uhinzwemo amasaka n'ibigori.

Inkoko y'inkokokazi, iri kugenda hasi hari ibicucucucu, bigaragara ko hafi yaho hahinze urutoki.

Icyumba gito cyane kirimo inkoko z'inkokokazi, iyi nzu zirimo zubakishijwe amatafari ndetse zisakajwe amabati, harimo umuntu w'umusore uri kugaburira izi nkoko, yazihaye impungure, hari n'imifuka hafi yaho ndetse umuryango waho urara.

Ingurube nkuru bigaragara ko inaniwe cyane ndetse imaze kubyara ibyana cumi na kimwe, ibi byana biri konka, ndetse hafi y'aho hari ikibido bashiramo ibyo kugaburira izi ngurube, hari kandi ibyatsi izi ngurube ziryamaho byumye.

Umubyeyi ukennyeye igitenge, ndetse witeze n'igitambaro, yegamiye ku nzu ihomye icyondo, ndetse ifite amatafari, isakaje amategura, hafi yaho hari igiti cy'avoka, ndetse imbere ye hari amatungo ye y'ihene, intama, ndetse n'inka, inyuma y'amatungo hari intoki kandi hazitijwe ibyatsi, inyuma hari umurima uhinzwemo ibishyimbo, ndetse n'ibindi biribwa.

Icyana cy'ingurube kivutse vuba kiri imbere y'inzu, yubakikijwe ibiti ndetse n'amabati, ikaba ari inzu y'ingurube, iri hafi y'urutoki.

Inka, intama, ihene, ziri mu kiraro cyubakishijwe ibiti ndetse gisakarijwe amabati, ziri imbere y'umuvure zinyweramo amazi ndetse n'ingombe zinyweramo amazi, hafi yazo kandi hari ifumbire ikoreshwa mu buhinzi.

Umukobwa ukenyeye igitenge yambaye agapira k'umukara ndetse n'ingofero y'umukara ari kugaburira imishwi myinshi cyane mito. Ahantu iyi mishwi iri hazitijwe rukarakara, hafi ye kandi hari imbabura irimo amakara ndetse n'ibuye rinini cyane.

Ingurube iri mu kiraro cyayo gisa nabi cyane, kuko kirimo umwanda wayo utigeze ukurwaho n'abagomba kuwukura. Iki kiraro cyubakishijwe, ibiti ndetse gisakajwe amabati, iyi ngurube kandi nta byo kurya bifite.

Umuntu ahagaze mu muhanda w'igitaka yambaye ibirenge, ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara yahinnye. Afite ikiziriko kiri mu nka ntoya cyane .Hirya yayo hari utwana tubiri dutoya tw'uduhungu ndetse inyuma yatwo hari insina n'inzu zisakaje amategura zifite inzu z'umukara.

Umubyeyi wambaye ishati yo mu gitenge ijipo y'ubururu, ari ahantu hahinze insina ndetse ari kumwe n'amatungo ye, arimo amabara y'umukara ndetse n'umweru, hirya y'aho hari urugo rusakajwe amategura ndetse n'inzugi z'imbaho, hari kandi inzu yindi iri hafi y'aho iy'uwo mubyeyi.

Inyana bigaragara ko ivutse vuba imaze nk'ibyumweru bibiri cyangwa se bitatu iri mu kiraro cyayo gisakajwe ibyatsi ndetse hirya yaho hari intama, ihene kandi ntabwo hahinze igihingwa na kimwe.

Inkoko ziri mu nzu zubakiwe n'umworozi, harimo inkokokazi ndetse n'amasake, hari kandi amagi yatewe n'inkoko z'inkokokazi, hari kandi indi nyubako yubakishijwe ibiti n'amategura ndetse na rukarakara.

Ingurube nini iri kumwe n'ibyana byayo by'ingurube bitoya bine, biri mu kiraro cyubakishijwe ibiti by'imbaho ndetse isakajwe amabati, ahantu izi ngurube ziri nta bwatsi zahawe cyangwa se ibyo kurya.

Inka nziza cyane zifite amabara meza ndetse n'intama n'ihene ziri mu kiraro gito cyane cyubakishijwe ibiti. Hirya yaho hari ibiti by'isombe, imyembe ndetse n'avoka. Ikindi kandi hari indi mirima ihinzwemo ubwatsi bwo guha amatungo.

Ingurube y'umukara iri inyuma y'urugo, igipanpu cyaho gihomesheje igitaka, hari kandi isafuriya iriho imbyiro ndetse n'igiti gishinze kiritsweho iyi ngurube, hari kandi ibyatsi byumye ndetse n'indi myanda.

Ikiraro cyubakishijwe ibiti ndetse gisakajwe amabati, kugira ngo imvura ntijye inyagira amatungo aba muri iki kiraro harimo: inka, intama, ndetse n'ihene. Amatungo ari kurya ubwatsi butoshye cyane zahawe n'umushumba wazo.

Abantu babiri barimo umukecuru n'umusaza, bari hafi y'ihene, inka n'intama ndetse bari kuzigaburira ubwatsi, bari hanze y'akazu gato cyane gahomye ibitaka ndetse gafite urugi rw'icyatsi, gasakajwe amategura. Hari kandi ikiraro cy'inyamaswa cyubakishijwe ibiti.

Ihene, intama, inka, ziri mu busitani burimo ubwatsi butoshye, ndetse byegereye igikuta gihomyeho urwondo. Hafi yaho kandi hari utundi twatsi turimo pasiparume.

Umubyeyi n'abana be babiri, bambaye imyenda yo mu bitenge, bari kugaburira ihene eshatu ubwatsi, bari imbere y'inzu ifite inzugi z'icyatsi, n'amadirishya y'icyatsi. Hafi yaho hari indabo nziza cyane z'amabara y'umuhondo n'icyatsi.

Ihene, intama ndetse n'inka biri munsi y'inzu. Biri hafi y'imishingiriro ikoreshwa bari gushingirira ibishyimbo. ikindi kandi ihene iri gutambuka mu rwego bigaragara ko rwaguye. ihene kandi iri hafi y'ahantu hari ibyatsi byumye bigaragara ko ari ibibabi by'ibigori.

Umusore wambaye imyenda y'umukara ateruye inkoko ebyiri hafi ye hari izindi nkoko zimukikije ziri ahantu zubakiwe ndetse harimo ibintu zinyweramo amazi ndetse ziherwamo ibyo kurya, ikindi kandi izi nzu zirimo yubakishijwe ibiti.

Inka, ihene, intama, ziri mu kiraro kibakishijwe imbaho ndetse gisakajwe amabati. Hafi y'izi nka hari inkoko iryamye, ndetse hari n'ibwatsi izi nka ziri kurya.

Ingurube iri mu kiraro cyayo cyubakishijwe imbaho ndetse gisakajwe amabati. Imeze nk'iri kwitegereza ibisigarizwa biri inyuma yayo by'ibigorigori ndetse n'ibishishwa by'imyumbati n'ibirayi n'amateke.

Umugabo ari mu murima w'intoryi ndetse n'inyanya ari kureba uko ziri kugenda zera, ni amasaha meza akazuba kari kuva nta mvura iri kugwa, uyu mugabo yambaye agapira gaciye amaboko ndetse n'ipantaro y'umukara, ikindi kandi hafi yuyu murima hari ibindi bihingwa nk'ibigori n'urutoki.

Umurima munini cyane wasaruwemo ibigori, igice kimwe kirahinze, ikindi ntabwo kirahingwa, harimo ibindi byatsi bigaburirwa inka, hagati y'imitabo ibiri harimo ibigorigori batemye babijugunyamo ndetse hameze nk'ahari inzira y'abagenzi.

Umuhanda wa kaburimbo, hafi y'umuhanda hari umurima uzitijwe senyege. Bishoboke ko uyu murima, uhinzwemo imbuto z'amatunda, cyangwa se hakaba harimo n'izindi mbuto.

Umurima munini cyane uhinzwemo imbuto zirimo inyanya, imiteja, ibitunguru, intoryi ndetse usasiwe neza n'amashashi, kugira ngo ibi bihingwa bihinzwemo bitazangirika, harimo kandi izindi mboga rwatsi.

Mu mirima uhizwemo imboga zitandukanye ziribwa, harimo inyanya, intoryi, karoti, ibitunguru ndetse n'imboga rwatsi. Izi mboga zirasasiwe kugira ngo zitazangiza cyangwa se zikandura, harimo kandi umuntu urimo kureba ko ibi bihingwa bye ...

Umusaruro w'ibigori umeze neza bigaragara ko ibigori byitaweho neza bigihingwa, bigashyirwaho ifumbire mvaruganda ndetse n'iy'imborera. Bimanitse ku biti bizirikishweho imishumi ndetse hasi, hari amababi y'ibyo bigori yumye.

Umurima uhinzwemo imyumbati, amateke, ibijumba, ibishyimbo, uyu murima uhinzwemo neza cyane kuko ibihingwa birimo bihinzwe ku murongo, hari kandi ishyamba rikikije ibi bihingwa rikurura imvura.

Ibigori bifite impungure z'umuhondo ndetse n'umweru byanitswe ku ihema, ihema rirambuye hasi. Ibi bigori bigaragare ko bitakoze neza kuko harimo utugori duto cyane. Hafi y'ho hari inzu yubakishijwe rukarakara ndetse hatewe n'indabo.

Umurima munini cyane uhinzwemo intoryi, inyanya, karoti n'izindi mbuto, zihinzwemo vuba bigaragara ko zitaragera igihe cyo kwera cyangwa se cyo kuyanga, umurima kandi urasasiye neza kugira ngo ibi bihingwa bihinzwemo, bitazangirizwa n'udukoko twaturuka mu butaka hasi.

Abantu babiri bari kuhira ingemwe z'icyayi ndetse n'ikawa; inyuma yabo hari umusaza uhagaze wambaye ingofero y'ubururu, hari n'undi uhagaze imbere wambaye ikoti ry'umukara ndetse ufite n'inkoni, hirya y'aho hari amazu asakajwe amabati ndetse yubakishijwe amatafari ya rukarakara.

Ibigori bimaze igihe byarasaruwe bipfunditse ku biti hanze ahantu hagera izuba, bigaragarako byashyizweho n'ababihinze kandi bari mu ishyirahamwe. Ibi bigori hafi y'aho hari ubwatsi butoshye, ndetse munsi yabyo hari amababi yaguye hasi yumye.

Impungure zanitse ku ihema; umuntu ahagaze hafi y'aho igicucu cye kiri mu mpungure. Ihema rirambuye hasi.

Imyumbati, amateke ndetse n'isomba bihinzwe mu murima munini cyane. Iyi myumbati iratoshye cyane, kandi bigaragara ko yenda kwera. Hafi y'aho hari inzira z'abagenzi zinyurwamo n'abahinzi banyuramo baje kwita kuri iyi myaka.

Umugabo wambaye itaburiya bigaragara ko ari umwarimu w'isomo ry'ubutabire ari ahantu higirwa iri somo ndetse ari kwerekeza ahantu hari igikoresho gikoreshwa n'amashanyarazi kirimo urufunguzo. Ibi ibikoresho kandi byubatse aha ngaha ibyinshi byubakishijwe ibyuma.

Abasore batanu bafashe inka bisa nkaho hari ikibazo ifite bari kuyisuzuma. Hafi yaho hari umwana ubahagaze iruhande. Hari kandi inka nyinshi zigaragara ko ari hano ziba. Kuko hubatse ikiraro gikoreshejwe ibiti ndetse hari inzu ifite amabati y'umutuku ndetse yubakishijwe amatafari ahiye.

Abantu babiri bari mu cyumba gito cyane, gihomwe icyondo, umwe ari gukama undi ari gushimashima mu mugongo, bigaragare ko bari gushaka amata, ikindi kandi hari imyenda imanitse hafi muri iki cyumba.

Abantu babiri barimo umuntu mukuru wambaye imyenda y'icyatsi n'akandi kana gafite ibikoresho byo kuvomeramo bahagaze bari kwitegereza inka ziri kuririsha ubwatsi, bari imbere y'inzu isizwe irangi ry'umweru, ifite inzugi z'umutuku ndetse isakajwe amategura.

Inka iziritse ku giti hari abantu babiri umwe bigaragara ko ari umuvuzi w'amatungo yambaye ga ari gusuzuma inka undi ayifashe ku gice cy'umutwe kugira ngo idateza akavuyo, muganga w'amatungo ntakore ibyo ari gukora neza.

Inyubako irimo imiti bavurisha amatungo ndetse n'iyo batera imyaka kugira ngo itangizwa n'udukoko, harimo umuntu wambaye umwenda umuranga usa n'ubururu, ndetse imiti ipanzwe mu tubati neza, ikindi kandi iyi nzu itewe amarangi y'ubururu.

Umuntu ari hanze y'inzu isakajwe amabati itewe irangi ry'umweru ifite amadirishya n'inzugi by'icyatsi, ari kumwe n'inka bigaragareko ari umuvuzi w'amatungo wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'ingofero y'umutuku, ndetse n'ibikoresho birinda intoki akaba ari gutera inka umuti

abantu babiri bigaragara ko umwe ari umuvuzi w'amatungo arigutera umuti ihene akoreshejeshini hari undi umufashije gufata iyo nka kugira ngo itisanganya umuti ukameneka cyangwa se ukaba mutajya aho ashaka kuwutera haridi matungo kandi arimo intama inka ndetse hari imirima ihizwemo ibigwari n'urutobe.

Umuntu bigaragara ko ari umuvuzi w'amatungo, yambaye igikoresho gikoreshwa mu gihe cy'ubuvuzi, ari gusuzuma inka.

Abantu babiri bavura amatungo bari kwita kunka nziza cyane y'inyambo, bari gusuzuma ko nta kibazo yari ifite. Iyi nka iri ahantu hazitijwe ibiti, umwe muri abo bagabo afite igitabo cy'umukara, hafi yaho hari igisambu kinini cyane kidahinzwamo imyaka, ariko kirimo ibiti bisanzwe kandi bigaragara ko aha hantu hari ikirere cyiza ki bitarimo imvura.

Umuntu ari kuzirika inka, ihene, intama ku giti kinini cyane k'imyembe, hafi y'iki igiti kandi hahinzwe amateke, ibishyimbo, ibirayi, imyumbati, isombe ndetse hari n'ibindi byatsi bigiye bitandukanye harimo intoryi, inyanya.

Abantu babiri harimo uwambaye isengeri y'umutuku ndetse n'uwundi wambaye imyenda y'umuvuzi w'amatungo, bari gutera inyamaswa zirimo inka, intama, ihene, umuti bigaragaza ko zarwaye bakaba bari kuzifasha gukira, ziri mu kiraro cyubakishijwe ibiti ndetse gisakajwe amabati.

Inyamaswa zo mu ishyamba cyane cyane iziba mu biti inkima, inkende, ndetse n'imbwa zo mu ishyamba, ziri mu giti. Ingagi iri kwitegereza yitonze cyane isa n'iyumiwe. Iri mu biti bitoshye cyane, ndetse hirya yaho hari ibindi biti birebire cyane.

Impara n'imparage n'impongo ndetse n'imbogo, ziri muri iri shyamba rinini cyane ririmo ibiti, hari izuraba ryinshi cyane kuko ubwatsi bwaho bwumye. Ikindi kandi, hirya hari ahandi hantu hitaruye hari ibyatsi byumye.

Umuhanda w'ibitaka uri kugendamo abantu batandukanye b'ababasore, inkumi, abakecuru n'abasaza, hafi yaho hari agasozi kariho ubwatsi butoshwe ndetse umuhanda urimo inkende, ikindi kandi hafi yaho hari amaduka acururizwamo ibintu bigiye bitandukanye.

Utunyoni tw'ubwoko bw'ifondo, inyamanza dufite amabara y'umukara, umutuku, umuhondo ndetse n'umweru, turi mu ishyamba ririmo uduti twiza uturabyo dutukura, n'umuhodo. Ikindi kandi hafi y'iri shyamba utu tunyoni turimo, hari ibihingwa bigiye bitandukanye ndetse n'ingo zisakajwe amategura.

Akanyoni keza cyane kari kumwe n'utundi tunyoni turimo udupfundi tugizwe n'amabara y'umutuku, utunyamaswa turimo amabara y'umweru n'umukara. Aka kanyoni gafite umunwa muremure, amabara y'icyatsi, ubururu, umuhondo, umukara ndetse n'umutuku, kari ku gihingwa cyiza cyane gifite indabyo z'umuhondo ndetse hirya y'iki gihingwa hari utundi turabyo duteye amabengeza.

Ishyamba rinini cyane ririmo urusobe rw'ibiti bigiye bitandukanye, kandi rifite ibara ry'icyatsi cyane ubona ko bitoshye, harimo ikiraro abantu banyuramo bagiye kureba ubwiza bw'iri shyamba.

inkede nini cyane ibyibushye ubona ko iri kumwe n'umuntu nta kibazo, umuntu nti yayitinye kandi nayo nti yamutinye bari gusabana . Iyi nkende imeze nk'uturutse mu ishyamba riri hafi aha. Uyu muntu yari arimo kugenda mu muhanda w'ibitaka uri aha ngaha.

Agasimba gashimishije cyane kameze nk'inkende cyangwa se ingagi kitwa inkima, gafite amabara y'umweru n'umukara, kari ahantu hari ibyatsi bigiye bitandukanye, karicaye ariko nanone sinzi ikintu kari kwitegereza kitonze cyane.

Ingagi, inkende ndetse n'inkima, biri mu ishyamba biri kwitegereza umuntu, bigaragara ko ari kubifotora cyangwa se ari kubireba, biri mu ishyamba ririmo ibiti byinshi cyane ndetse birebire by'ubwoko butanu.

Agasumbashyamba, impongo, imbogo ndetse n'izindi nyamaswa zo mu ishyamba ziri mu busitani, hafi yaho hahinzwe umuceri ndetse ikirere kirasa neza akazuba kari kuva bigaragara ko ari mu masaha ya nimugoroba.

Inyamaswa zo mu ishyamba zirimo inkende, inkima, imbobo, impongo, ndetse n'udupusi, twavuye mu ishyamba tuza mu muhanda wa kaburimbo. Utu tunyamaswa tugizwe n'amabara y'umweru ndetse n'umukara, ubona ko dutuje nta modoka ziri gutambuka turi kota akazuba.

Inyoni ifite umunwa muremure ndetse n'amaso manini, ifite amaguru abiri, ihagaze ku rurabo rwiza cyane rufite amabara y'umutuku, irimo amabara y'icyatsi ndetse n'ay'umukara, iricaye iratuje nta rusaku ifite, iri kwitegereza ibintu biyikikije.

Inkende, inkima, ingagi ziri mu biti, inkende zimeze nk'izumiwe ziri kwitegereza ikintu ahantu hamwe zidakurayo amaso, hafi y'izi inkende kandi hari ibindi biti, biri muri iri shyamba, iri shyamba ririmo izindi nyamaswa zo mu iri ishyamba.

Impongo, impara n'imparage iri gusimbuka, ubona ko nta kibazo ifite iri ahantu hari igisambu kinini cyane ndetse iri hafi y'ishyamba ririmo ibiti birebire ndetse harimo utundi tuyamaswa natwo dutuye mu ishyamba nk'inkende, inkima, imbogo.

Inyoni nziza cyane zirimo ifundi, igizwe n'amabara y'umutuku, ndetse n'indi nyoni ifite umunwa muremure, amabara y'ubururu, ziri mu giti, irimo utubara tw'umuhondo ndetse n'utw'icyatsi, iyi nyoni iri kwitegereza izindi nyoni ziri hirya yayo.

Inkima ebyiri ziri mu igiti umwana na nyina, inkima zifite amabara abiri umweru n'umukara, ziri mu giti gifite amababi y'icyatsi.

Inyubako zisakajwe amabati ndetse zubakishijwe amatafari ahiye, zikikijwe n'igipangu gikozwe mu byuma ndetse hafi yaho hari akanyamanswa ko mu ishyamba kitwa hari inkende, hari kandi ikigega bategeramo amazi, hafi yaho hari ibiti ndetse n'aho bananika imyenda.

Igikona, agaca, igisiga, biri hafi y'amazu asakajwe amabati ndetse yubakishijwe amatafari ahiye. Ubu busitani bwakubiswe n'izuba cyane kuko nta bara ry'icyatsi wabonamo, hari kandi ibiti birebire cyane hafi yabwo.

Inkima, inkende ingagi, ziri mubiti byiza cyane bitoshye, bigaragara ko bitigeze byuma twavuga ko turi mu gihe kiza. Ikindi kandi hafi y'ibi biti hari ibindi biti bitandukanye birebire cyane.

Inkende, inkima ndetse n'ingagi biri ahantu, inkende iri kumwe n'icyana cyayo, hafi yaho hari ubwatsi butoshye ndetse ziri kwitegereza neza. Izi nkende zigizwe n'amabara y'umweru, umukara ndetse zifite ubwisho bunini cyane.